Abantu bari mu nama, hari amazi imbere yabo ava mu ruganda rw'inyange, hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo, bose bakaba bafite mudasobwa imbere yabo.

Itangazo, itangazo rimenyesha igihe ibiruhuko bizarangirira, ritangwa na leta y'u Rwanda, risohorwa rivuye mu biro bya minisiteri ririho igihe ibiruhuko bizarangirira.

Igiti kirekire gicishwaho insinga z'amashanyarazi, zitanga umuriro mu ngo zitandukanye, kikaba giteye imbere y'urugo rwubakishije amatafari ahiye ndetse imbere y'urwo rugo hakaba hari indabo z'imikindo ziteye zigiye zitandukanye.

Abagabo batatu bari mu rukiko, umwe yambaye umwenda w'umweru hejuru hakaba arimo umwe mbaye ishati n'amaboko magufiya, uri hagati akaba ari umunyamategeko wabo arimo arababuranira.

Ibikoresho byifashishwa mu kuzimya umuriro bikoresheje uburyo bw'umwuka biteretse hasi, bikaba biri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umukara bakaba babikoresha bazimya umuriro.

abaturage bagiye kwamamaza umukuru w'igihugu w'u Rwanda bakaba bafite ibyapa byanditseho mudugudu wabo wa Radari, bakaba ndetse bari kwishimira ko bagiye kumwamamaza.

Ikinyamitende cy'amapine atatu, kikaba kiri mu muhanda wa kaburimbo, ku ruhande rwaho hakaba hari akayira k'abanyamaguru, hirya yaho hakaba hari ibindi binyamitende bihetse abantu ndetse n'imodoka.

Umuntu ufite ingorofani urimo arayisunika, ingorofani batwararaho ibicuruzwa ndetse n'ibindi bintu, umuntu aba yaraguze, imbere hakaba hari ikinyamitende, gitwara abagenzi cy'amapine abiri hirya, hakaba hari inzu zikorerwamo ubucuruzi butandukanye.

Icyapa kigaragaza, kiri icyapa kiri ku muhanda kigaragaza Akarere ka Karongi, kikaba kiri ku muhanda wa kaburimbo, hakaba hari abantu bari gutambuka, hirya yabo hakaba hari imashini ikora umuhanda.

Umuhanda uri mu ngo hagati, wubakishijwe amabuye, hakaba harimo inzu zisakaje amabati, asa, ajya gusa umutuku, ndetse hakaba hari n'ibiti birebire bicishwaho insinga z'amashanyarazi.

Umuhanda urimo wibinyabiziga bitandukanye, harimo imodoka ndetse n'ibinyabitende, hakaba ariho umuhanda wa kaburimbo ndetse ku ruhande rwaho hakaba hari inzira y'abanyamaguru, umuhanda ukaba uciwemo kabiri, hakoreshejwe ibara ry'umweru.